Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ikoreshwa mu marushanwa yometseho ibirango by'ibigo nyarwanda bitandukanye bitera inkunga ayo marushanwa, iruhande rw'umuhanda hariho abaturage benshi ndetse n'inyubako ndende.

Ifoto yamamaza iby’ubwishingizi bw’ikigo nyarwanda bita Radianti, nk’uko bigaragaza kuri iyi foto, n’ubwishingizi bw’ubuzima, ubwo bwishingizi urabugura hanyuma wakora impanuka, bukaba bwagufasha bakuguhereza amafaranga yo ku kwitaho. Niyo magambo yanditse ngo gura ubwishingizi bw’impanuka zonona umubiri utangwa na Radianti yacu, wirinde SIDA.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo y'umweru abaza ngo niba ukeneye ubwishingizi, gishushanyijeho imodoka y'umutuku itagaragara neza.

Imodoka nini ihetse indi uko bigaragara yakoze impanuka, hasi handitse ngo "hitamo inshuti y'ibihe byose", hejuru "wihangayika n'igihe cyo kwishyura, ubwishingizi burabikemura".

Umugore urimo gucuruza arimo gucuruza, itomati, amavuta, ndetse n'ibirungo bashyira mu biryo. Inzu arimo gucururizamo yubakishijwe imbaho.

Iduka ricururizwamo ibikoresho by'ubugeni bya kinyarwanda bikozwe byakuwe mu biti mu mpu, harimo utubati ndetse n'irange ry'umweru.

Ifoto igaragaza isoko baguriramo imyenda, ni isoko baguriramo imyenda y'igitsina gore muri iri soko ni inyubako ifite irangi ry'umweru.

Icyumba bacururizamo imitako gakondo ifite irangi ry'umweru harimo akabati karimo ibishushanyo inyuma yako harimo umugore wambaye imyenda y'umweru.

Iduka bacururizamo imyenda harimo umugore wicaye uri kureba abantu baje kuyigura ndetse harimo n'abazungu babiri bari kwitegereza iyo bagiye kugura, umwe wambaye amadarubindi n'ikote ry'umukara.

Imyenda y'amoko atandukanye imanitse, harimo iy'icunga rihishije, ubururu, umukara, umweru, umuhondo, icyatsi, n'andi mabara.

Icyuma gifite irangi ry'umweru kiririmo amashusho yometse ku nkuta ndetse n'amatara ari kwaka harimo utubati dukoze mu mbaho turi mu ibindi bikoresho iruhande hariho utubati dutoya.

Umugore w'umuzungu ndetse n'umusore w'umwirabura afite ikarita ari gukoza ku cyuma cyabigenewe kugira ngo yishyure yamaze kugura mu isoko ry'imyenda, imbere yabo hariho mudasobwa.

Umugore urimo guseka ufite ikaramu mu ntoki uri kwandika ku rupapuro, ameza ari imbere ye ateretseho igikoresho cyifashishwa mu ibarurishamibare ndetse na mudasobwa, impande hari amakanzu y'abagore.

Isoko bacururizamo imyenda y'abagore, ifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umukara, ubururu umweruru n'icyatsi ndetse hariho n'ibyapa byometse kuri iyo myenda, bifite ibara ry'umweru n'amagambo y'umukara.

Imodoka yo mu bwoko bwa kiya nshyashya, iyi modoka ifite irangi ry'umukara, ikigaragara cyo iyi modoka iri kugurishwa nk'uko byanditswe ku magambo yometse ahantu haba hari nomero iranga ikinyabiziga.

Imodokari ifite irangi ry'umweru, icanye amatara y'akamenabihu ndetse n'amaremare, nimero y'ikinyabiziga yayo ntigaragara. Yanditseho ko igurishwa agaciro ka miliyoni icyenda, ikaba yarakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu.

Ahantu hasakaye ndetse hari imodoka ebyiri zitwara abagenzi. Ni ndende kandi z'umweru zifite amagambo yanditse kukirahure k'imbere mu ibara ry'ubururu.

Imodoka ebyiri nshyashya imbere yazo hari urukuta rw'umweru rwometseho ikirango cy'ubururu kiriho amagambo y'umweru. Hejuru hariho amatara ane.

Iri ni isoko ryubatse mu buryo bugezweho kandi nkuko tubibona buri gicuruzwa kiri mu mwanya wacyo ndetse bikaba bibitse mu buryo bidashobora kwangirika bisa neza kandi n'ababigura bagashobora kubona icyo bakeneye mu buryo buboroheye.

Imodoka yari ifite irangi ry'umweru icanye amatara y'inyuma y'umutuku iri ahantu hasize irangi ry'umweru ndetse n'amadirishya abonerana, n'imiryango y'umukara.

Imodokari ifunguye imiryango ndetse ikagira intebe zisa umuhondo, hejuru ifite igisenge bafungura kandi iruhande hariho n'indi ifite irangi ry'umweru.

Imodoka ebyiri z'umukara, imwe icanye amatara magufi y'umweru, bahishe ibirango biziranga, inyuma yazo hariho ihema ry'umweru ririho inyuguti eshatu z'umukara, inyuma yaryo hariho umunara w'amashanyarazi.

Imodoka ifite irangi ry'umukara yacanye amatara magufi, irimo kugurishwa miliyoni mirongo itandatu n'eshanu, yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani.

Inyubako yubakishije ibirahuri, mo imbere harimo imodoka z'amoko atandukanye, hasi hariho urukuta rwukishije amabuye ndetse n'ubusitani, yometseho ibyapa bitatu.

Imodoka ifite irangi ry'umukara icanye amatara magufi y'umweru ndetse n'andi y'umuhondo. Amagambo ari hejuru agaragaza ko igurishwa miriyoni cumi na zirindwi ,yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu.

Imodoka nshyashya ifite irange ry'umukara ariko idafite nimero ziranga ikinyabiziga, ni mu muhanda wa kaburimbo imbere yayo hariho inzu y'igorofa ndetse n'ubusitani.

Imodoka y'umukara icanye amatara magufi, ifite amagambo yanditswe ku mwanya ugomba kujyaho nomero y'ikinyabiziga. Iruhande rwayo haparitse izindi modoka nyinshi, hejuru hariho amagambo avuga ko ari iya bibiri na cumi na gatandatu, ku giciro cya miliyoni cumi na zirindwi.

Imodokari y'umukara icanye amatara ya kamenabihu, amagambo yanditseho agaragaza ko igurishwa miliyoni mirongo itanu, yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri.

Imodokari ndende cyane zitwara imizigo n'ibicuruzwa, imwe ifite irangi ry'icyatsi. Imbere hagaze abagabo babiri bafite igishushanyo kimeze nk' urufunguzo. Iruhande hariho n'izindi modokari.

Abagabo batatu bahagaze bafite ikimenyetso kimeze nk'ishusho y'urufunguzo yanditseho akagera, inyuma yabo hariho imodoka ebyiri zitwara imizigo zifite irange ry'umweru gusa nimero ziranga ikininyabiziga zazo ntizigaragara.

Amafaranga arambitse hasi. Ni ijana, yanditseho Banki Nasiyonali y'u Rwanda, ashushanyijeho imisozi ndetse ikikije amazi.

Imodoka iteye irangi ry'umuhondo, kandi yanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara, iruhande rwayo hagazeho abantu bambaye imyenda ishinzwe umutekano bafite intwaro, kandi bambaye ingofero bafite imyenda yumukara.

Amafaranga menshi ahambiranye yanditseho magana atanu arambitse ku meza ariho umugabo uri kuyashyira mu gikoresho kibara umubare wayo ufite irangi ry'umweru.

Urukuta rw'amatafari ahiye ruriho igikoresho kibara umuriro ndetse hariho n'ikindi gikoresho gifite ibara ry'umweru gikonjesha harimo akajerekane k'amata icupa ry'amazi iruhande rwacyo hariho amajerekani abiri.

Ifoto igaragaza umuntu urimo kurya akanywa na mata igikompe cya amata giteretse ku meza ndetse hariho n'ikaramu amata ari kunywa asa naho ari amata y'ivuguto.

Inyubako ikinguye umuryango hanze hakaba hariho igare ndetse n'ipikipiki ndetse n'abaturage hariho igicuba cy'amata ndetse n'akajerekani.

Ibiribwa bikoze mu binyampeke harimo ifarini barangiza bakabicisha mu mavuta bifite ibara ry'umuhondo n'imbere haba harimo inyama cyangwa se ibirayi biri mu gikaratasi kirambitse hasi.

Igikoresho gikonjesha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kirimo amacupa y'amazi, andi asa umutuku, ndetse n'utujerekani tw'amata.

Umuhanda wa kaburimbo inyuma y'aho hariho kandagirukarabe ndetse n'akazu gatoya kometseho icyapa gishushanyijeho inka ,imigati inyuma yako harimo inzu ifite igisenge gitukura n'irange ry'umuhondo hamwe n'ibiti.

Ibiribwa biri ku isahani y'ikirahuri ifite ibara ry'umutuku inyuma mu imbere bigasa umuhondo bikozwe mu binyampeke by'ingano babanza gucisha mu mavuta.

Ifoto igaragaza ahantu bacururiza amata, ndetse igaragaza n'abantu babiri, n'umugabo ugeze mu za bukuru ndetse n'umusore. Umusore ashimishijwe cyane n'amata bamuhaye.

Inzu bacururizamo ibiribwa hari umugabo n'umugore bicaye ku ntebe baje kugura amata, imbere yabo hari umusore urimo kubahereza ibyo bari kugura ameza ateretseho udusahane tubiri.

Ikiganza gifashe amafaranga y'ibihugu bitandukanye harimo akoreshwa i Burayi yanditseho ijana, andi yo mu Rwanda yanditseho ibihumbi bibiri ndetse n'ibihumbi bitanu.

Inyemeza bwishyu, itangwa n'ikigo k'igihugu cy'u Rwanda, igaragaza ko wishyuye imisoro yose, nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rugaragaza ko wishyuye imisoro warirurimo ikigo cy'u Rwanda, uru rupapuro rugaragaza igihe ntarengwa wagombaga kwishyuraho iyo misoro ndetse n'igihe wayishyuriye, ndetse n'ingano y'amafaranga wishyuye.

Ifoto yafotorewe muri mudasobwa igaragaza urupapuro rw'inyemeza bwishyu rw'ikigo k'imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda, iki kigo kitwa Rwanda reveni otoriti.

Amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, hariho amafaranga, amayero icumi, ni amafaranga akoreshwa mu gihugu by'i Burayi. Hariho ndetse n'amadorari icumi, ni amafaranga akoreshwa muri Amerika ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye ari kubara amafaranga, afite amwe ahambiranye ndetse n'andi ari mu ntoki ze yanditseho ijana.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga ashushanyijeho umugabo ndetse yanditseho ijana hari n'ikindi kiganza kiteguye kuyakira.

Amafaranga igihumbi nk'uko byanditseho ni ayo mu banki yo muri Tanzaniya ayo hejuru agaragaraho umuntu hakagaragaraho imibare ayo hasi agaragaraho inyubako.

ibiganza bifite amafaranga y'ubwoko bubiri, amwe yanditseho gatanu ndetse ashushanyijeho abantu bamwe bambaye amadarubindi n'amakoti.

Abantu bari gukora igurana ry'amafaranga, umwe afite amayero undi afite amadolari, yamuhaye amadolari magana abiri nawe amuhereza amayero ariko ikigaragara cyo amayero yamuhaye amayero menshi ugereranyije n'amadolari ari kumuhereza, iribaryita ivunjisha ry'amafaranga.

Amafaranga atanu ashushanyijeho umusaza wambaye amadarubindi hasi ariho imibare mirongo inani n'agatandatu inyuguti ya ca mirongo irindwi n'ikenda mirongo itanu n'ikenda umunani umunani.

Amafaranga magana atanu yo muri Tanzaniya ashushanyijeho inyubako, imbere yayo hariho igiti gihagaze kizingiyeho inzoka ifite ibara ry'icyatsi.

Umuntu ufite amafaranga atandukanye ni amafaranga y'ibihugu bitandukanye, gusa ndabona harimo ibihu magana abiri inote za magana abiri z'ubwoko butandukanye.

Amafaranga ashushanyijeho umugabo ,ufite umusatsi yanditseho makumyabiri ariho n'indi mibare: gatatu, icyenda ,kabiri ,gatandatu , kabiri, gatandatu, gatandatu.

Umugore uhagaze ufite amafaranga mu ntoki imbere ye hahagaze umugabo witeguye kuyakira inyuma y'ibirahure iruhande rwe hari undi wicaye ku ntebe y'umukara.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ifite irangi ry'umweru amagambo yanditseho agaragaza ibiharanga ariho avuga ko hakorerwamo ibikorwa byo kuvunjisha amafaranga, ahandi hakandikwaho Kigali Kampala mu magambo y'umukara ndetse n'umutuku.

Icyumba gifite urukuta rwometseho cyapa mu magambo y'umweru n'ubuso bw'ubururu hasi ariho umuryango ukinguye amagambo yanditseho agaragaza ko uwo dukomere ko hakorwa ivunjisha ry'amafaranga.

Iyi foto iragaragaza inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo kohereza amafaranga, nukuvuga amafaranga ava mu guhugu kimwe ajya mukindi gihugu. Ubu buryo buba bwizewe kandi rwose bufasha abaturage baba bashaka kohereza amafaranga hanze y'u Rwanda cyangwa se kuyakira avuye hanze y'u Rwanda aza mu Rwanda.

Umuryango uhagazemo abagabo bafite uruhu rwera, ukikijwe n'ibyapa bigaragaza ko hakora ubucuruzi bujyanye n'ivunjisha ry'amafaranga, biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo.

Abagabo batatu, babiri baricaye undi umwe ahagaze inyuma y'igiti cyumye, inyuma ye hari imbaho nyinshi ziri mu inzu yubatswe mu ibiti n'izindi zitondetse k'umurongo. I ruhande hariho ihema ry'ubururu rihambirijwe imigozi.

Icyumba cy'uruganiriro, gisize irangi ry'umweru, harimo intebe z'amoko atandukanye, izikoze mu mbaho ziriho imisego, izifite irangi ry'umukara n'ameza ariho ikirahure.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gifite idirishya rifite ibirahuri by'umweru, kirimo intebe zikoze mu mbaho zisize irangi ry'umutuku, hariho imisego ifite irangi ry'umuhondo.

Icyumba kirimo intebe zikozwe mu mbaho zisize irange ry'umutuku kandi harimo n'imisego hakabamo n'ameza afite ikirahure hejuru.

Intebe zifite amabara atandukanye hariho iz'icyatsi ndetse n'izubururu kandi zifite n'imisego, hariho ameza manini ndetse n'amato, inyuma yazo hariho akabati ndetse n'umuntu wicaye ku ntebe.

Ameza akoze mu mbaho za ribuyo, ndetse n'utundi dutoya tuyateretse hejuru. Inyuma y'aho, hariho inzu isize irangi ry'ubururu ndetse n'umuryango ukinguye, wo mu cyuma, ufite irangi ry'icyatsi.

Inyubako y'igorofa rifite ibirahuri by'ubururu imbere yayo hariho ibiti ndetse n'imitaka munsi yayo hakaba hicayemo abantu imbere hariho ikidendezi cyamazi .

Inyubako ndende kandi ngari, y'igorofa rigeretse kane. Imbere yaryo hariho ibiti biteye mu busitani. Iriho amatara ndetse n'amazi atungereza hejuru, n'andi ari mu kidendezi,

Inyubako ikikijwe n'ubusitani burimo ameza n'intebe imbere yayo hariho ikidendezi kirimo amazi ndetse n'irangi ry'ubururu. Kirimo ibyuma ndetse n'uburiri abantu bicaraho impande zacyo.

Icyumba kirimo ubwiherero ndetse n'ubwogero, hagati harimo ibirahure biriho icyuma cyirambitseho ibitambaro bihanaguza iyo bamaze koga, i ruhande hariho urupapuro rw'isuku ndetse n'indobo ikoze mu cyuma.

Inzu ndetse mu bugari kandi y'igorofa, ifite irangi ry'umuhondo, ibirahuri by'icyatsi. Imbere yayo hateye ibiti, kandi ifite ikidendezi kirimo amazi, gifite ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'uruganiriro gifite irange ry'umuhondo ndetse kirimo intebe nyinshi zisa, ku nkuta hamanitseho ibitambaro by'umweru.

Inyubako ndende y'igorofa ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'ibyuma kandi ikagira n'irangi ry'umweru hamwe n'umutuku ndetse n'indabo zometseho ku nkuta hejuru no hasi.

Umugore n'umugabo bahagaze mu cyumba gitangirwamo ubufasha ku bijyanye n'amafaranga. Imbere yabo hari ibirahuri ndetse bimanitseho ibirango bigaragaza imibare, harimo rimwe ndetse na kabiri. Imbere muribyo, harimo mudasobwa ndetse harimo ahicaye umuntu wambaye agapfukamunwa.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gifite idirishya rirerire, harimo igiti ndetse n'ameza n'intebe z'imikara. Harimo ikirango gishushanyijeho umugabo uteruye umwana.

Iyi foto iragaragaza ikigo gitanga ubwishingizi cyo bita sonarwa, ni ikigo gitanga ubwishingizi bujyanye n'amashuri ndetse n'ibinyabiziga ndetse n'ubwishingizi bw'abantu, biragaragara ko harimo umuntu wicaye ku ntebe ari gukoresha telefoni.

Inyubako isize irangi ry'umweru, irimo ibirahuri bibonerana, ndetse iri kugendwamo n'umugabo n'abandi bantu bicaye inyuma y'ibirahuri, harimo n'amatara ari kwaka ndetse n'ameza.

Icyumba gikoreramo ikigo cy'imari cy'u Rwanda, gishora imari mu bijyanye n'ubwishingizi, haba ubwishingizi bw'amashuri ndetse n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga. Iki cyumba kirimo intebe kandi cyubatswe mu buryo bugezweho.

Inyubako ndende y'igorofa isa ubururu ifite ibirahuri by'icyatsi ndetse n'irange ry'umuhondo hasi hariho imodoka esheshatu.

Icyumba gisize irange ry'umweru kirimo idirishya ry'umukara harimo ameza ndetse n'intebe imwe isa umukara, hariho ibikoresho biteretse kuri ayo meza.

Icyumba kirimo irange ry'umweru n'imitako ya kinyarwanda y'imigongo mu mukara n'umweru harimo ikirahure inyuma kiriho ameza ateretseho mudasobwa.

Uru n'urupapuro rwamamaza cyangwa se rumenyesha abaturage bose muri rusange ikigo cy'imari kitwa BK, rwanditseho amagambo avuga ngo "BK turi kumwe. Bona angana inshuro ebyeri z'umushahara wawe mu masaha mirongo ine n'umunani".

Umukobwa ufite imisatsi miremire uhindukiye ari kureba inyuma ye akaba ari guseka ufite amaherena ku matwi, Ndetse n'ishakoshi mu ntoki imbere ye hari y inyubako ifite igisenge cy'umukara.

Inzu y'igorofa igeretse rimwe, isize irangi ry'umweru, ifite n'amabara y'ubururu, irimo imiryango ifite irangi ry'icyatsi ndetse hasi umuryango ukinguye, uhagazemo umuntu.

Inyubako y'igorofa isize irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru ririho ibyapa by'ibikorwa bikorerwa muri iyo nyubako hasi hariho bagabo babiri ndetse n'umugore umwe.

Abagabo n'abagore bahagaze bareba imbere yabo, hakaba hariho icyapa kimanitse hejuru gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru n'amagambo yanditseho mu ibara ritukura n'iry'umukara.

Iduka bacururizamo imyenda, uruhago n'imikufi y'abagore, harimo abicaye ku ntebe z'imbaho ndetse inyuma yabo hariho utubati babikamo ibyo bafite mu isoko.

Isoko bacurutsamo imyenda y'abana ndetse n'abagore ryubakishije ibiti hamwe n'ibyuma, harimo umugabo uri kwitegereza agenda areba icyo yagura.

Abacuruzi b'ibirayi ni abagore babiri bafite imifuka ine yuzuyemo ibirayi, barimo kugurisha umwana ukiri muto bamuhereza ibirayi bashyira mu gafuka ke yitwaje.

Abagore bari mu isoko ricururizwamo ibiribwa, imbere yabo hariho imboga ziteretse ku nkoko harimo intoryi, urusenda, karoti, tungurusumu ndetse n'ibirayi n'ibindi.

Isoko bagurishirizamo imyambaro ndetse n'inkweto z'amoko atandukanye, kuko hariho iz'umukara, umweru umutuku n'umuhondo, hariho abagore, abana ndetse n'abagabo n'inzu zubakishije amahema.

Icyumba bacururizamo kirimo umusore ufite indobo irimo ibiribwa uri guhereza abagore bahetse abana, iruhande hariho agatebe gakoze mu rubaho gateretseho ibikoresho.

Icyapa gitoya cy'umuhondo ndetse n'umweru kiriho ikiranga cya emutiyeni kiriho imibare yo kwishyuriraho umunani icyenda gatandatu gatandatu gatandatu umunani.

Akazu gafite irange ry'umuhondo ndetse n'amagambo yometseho agaragaza ko ushobora gukanda ijana na mirongo itanu na gatanu ukongera ugakanda na gatanu, hanyuma ukabitsa cyangwa ukabikuza amafaranga yawe.

Abagabo babiri bahagaze barimo kubyina, inyuma yabo hariho abakobwa bambaye imipira y'umuhondo. Ndetse n'ibyapa biriho ikirango cy'ikigo nyarwanda gikora iby'itumanaho.

Akazu gafite irangi ry'umuhondo ndetse n'ibirango by'ikigo cy'itumanaho nyarwanda; gafunguye amadirishya hahagazemo abantu babiri umusore ndetse n'umugore. Ku ruhande hariho undi wambaye imyenda y'umweru.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo ndetse kometseho impapuro z'ubururu. Hariho umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantalo y'ubururu. Iruhande rwayo hariho abandi bategereje imodoka.

Akazu k'umuhondo gafite amadirishya akinguye, kariho ibimenyetso by'ikigo k'itumanaho cyo mu Rwanda, mo imbere harimo umugore utanga ubufasha ndetse n'undi uhagaze mu idirishya uje kubumusaba.

Ifoto igaragaza abantu batandukanye, gusa bari munsi y'ibihe abenshi muri bo bambaye imipira y'umuhondo ifite akantu kazengurutse ku ikora ku rugori imipira igaragaza ko ari abakozi ba emutiyeni bisa naho bari mu busabane cyangwa se ikirori bakoresheje mbere yabo hari umugore usa n'umaze gufata ibihembo bye.

Abagore babiri bicaye munsi y'umutaka ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo yanditseho y'ubururu, imbere yaho hari icyapa nacyo gifite ibara ry'umweru n'umuhondo.

Akazu k'umuhondo kariho ibirango bya sosiyete y'itumanaho ya MTN. Karimo umukozi w'iyi sosiyete utanga amayinite ndetse n'izindi serivisi zose zitangwa n'iyi sosiyete.

Icyapa cy'umuhondo k'isosiyete y'itumanaho yo mu Rwanda gifite amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara, hariho imibare ijana na mirongo itandatu na gatanu gatatu gatandatu zeru zeru rimwe umunani gatatu.

Inyubako y'igorofa igeretse gatatu, rifite irangi ry'umweru imbere yaho hari icyapa gishushanyijeho ikirango cy'ikarita y'u Rwanda, hejuru hari ameza afite irangi ry'umutuku.

Imbuto zirimo amashu, karote, urusenda, tungurusumu n'itomati ndetse n'ibishukomburi hasi hariho igiciro cy'amafaranga ibihumbi bitanu ndetse na maganatandatu y'u Rwanda.

Iyi foto iragaragaza umumotari utwaye moto, ariko ahetse igikapu inyuma. Iki gikapu ni igikapu gikoreshwa boherereza abantu ibicuruzwa baguze.

Abantu babiri bafite imisatsi, bambaye amadarubindi bari guseka naho undi ari kumwenyura, bafite ingofero mu biganza byabo kandi bazishyize imbere, zifite irangi ry'icyatsi.

Amapikipiki ane atonze umurongo, abayicayeho bareba imbere kandi bambaye ingofero, bahetse ibikapu mu mugongo bifite ibara ry'icunga rihishije.

Ikarita cyangwa se urupapuro rwamamaza rugaragaza ko uba ushobora kugura ibiryo uciye ku rubuga rwabo hanyuma bo bakabikugeza iwawe mu rugo .Ushobora kuguraho ibiribwa by'uteka mu buzima bwawe bwa buri munsi ,hariho imyirondoro ndetse n'ahantu bakorera.

Umukobwa wambaye amaherena ndetse n'umupira w'icyatsi wanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, asobanura ngo vuba vuba. Ari gufungura icyuma bisa naho ari gukuramo ikintu gifite ibara ry'umutuku.

Ikipiki abiri ari mu muhanda wa kaburimbo abayicayeho bambaye ingofero zifite ibara ry'icyatsi imwe muri yo ifite nomero iranga ikinyabiziga ya RC maganacyenda cumi numunani exi.

Imodoka zagenewe gutwara imizigo zifite irange ry'umweru ndetse n'umuhondo n'amagambo yanditseho avuga ngo twiga, inyuma yaho hari inyubako ifite imibare mirongo itatu n'umunani mirongo itatu na gatandatu na mirongo itatu na gatanu yometse ku miryango.

Icyumba gifite irange ry'umweru kirimo amatara ari kwaka, gifite imiryango kandi harimo akabati k'umutuku n'akumweru.

Icyumba kiririmo amatara ari kwaka ndetse n'irangi ry'umweru, amagambo yanditseho agaragaza ko hagurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, hakaba haherereye mu mujyi wa Kigali, i kanombe.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo igikoresho cyifashishwa mu kureba amashusho ndetse n'amatara ari kwaka, gisize irangi ry'umweru, harimo intebe ndetse n'akabati, hahagazemo umugabo n'umugore.

Icyumba cy'uruganiriro gisize irangi ry'umweru giteretsemo akabati ndetse n'amatara rimwe rinini n'utundi dutoya byose biri kwaka, amagambo yanditseho agaragaza ko ikodeshwa ibihumbi magana tandatu ifite ibyumba bibiri iri mu mujyi wa Kigali i Remera.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo itara rimwe riri kwaka, gisize irangi ry'umweru hamwe n'intebe ndetse n'ameza. Amagambo yanditseho agaragaza ko hakodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu na mirongo itanu by'u Rwanda, haherereye mu mujyi wa Kigali.

Ubwogero burimo amakaro ndetse n'ikirahure bufite ibikoresho bitanga amazi; hamanitsemo igitambaro cyo kwihanaguza umaze koga.

Ubwogero burimo igikoresho kizana amazi akonje ndetse n'ashyushye, amagambo yanditseho agaragaza ko hakodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu na mirongo itanu ku kwezi haherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Icyumba cyo kuraramo gisize irangi ry'umweru, kirimo igitanda n'akabati n'urugi rufite irangi ry'umutuku. Amagambo yanditseho agaragaza ko hakodeshwa magana atanu na mirongo itanu y'amadolari mu mujyi wa Kigali.

Igikoni gifite irangi ry'umweru, ku inkuta hometseho ikizimyankongi kandi kirimo amatara ari kwaka. Amagambo yanditseho agaragaza ko akodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi, Ni inzu ifite ibyumba bibiri iriherereye mu mujyi wa kigali i Remera.

Inyubako y'igorofa ifite amarembo afite irange ry'umuhondo ndetse n'umukara, amagambo yanditseho "i Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, iyi nyubako irakodeshwa igihumbi cy'amadolari".

Inyubako ifite igisenge cy'umutuku isize irange rijya gusa umuhondo n'amadirishya n'imiryango byombi, amagambo yanditseho agaragaza ko igurishwa miliyoni ijana mirongo itanu i Kigali mu Rwanda.

Igikoni kirimo utubati kamwe gafite ibara ry'umukara akandi iryumye harimo n'urukarabiro ndetse n'umuryango ukinguye ufite ibirahure by'umweru.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite irangi ry'umweru, igisenge cy'umutuku cyanditseho ko ikodeshwa mu mujyi wa Kigali, i Kanombe, ikaba ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, amafaranga angana n'ibihumbi magana ane y'u Rwanda ku kwezi.

Urugi rukinze ruriho amafoto agaragaza imodoka ndetse n'umudugudu. Rufite irangi ry'umweru iruhande rwaryo hari amakaro yometse ku nkuta.

Ifoto iragaragaraho umugabo uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ukunze gu gukora ubucuruzi bw'amazu, birashoboka ko hari inzu yari ari kwamamaza, iyi ngiyi iri inyuma ye, ifite agaciro ka miliyoni mirongo icyenda z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako isize irangi ry'umweru n'igisenge cy'umutuku n'ibirahure by'umukara amagambo yanditseho agaragaza ko ikodeshwa muri Kigali Kimironko, imbere yayo hariho ubusitani buteye mu igiti cy'amapera.

Aya matara tubona ku muhanda ni afasha abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka bigatuma n'abatwaye ibinyabiziga bahagarara, bakareka abantu bakabanza bagatambuka nabo bakabona kugenda, ndetse akaba ari uburyo bwo kwirinda akavuyo n'impanuka zo mu muhanda.

Inzu nziza iri mu mujyi wa Kigali y'igorofa igeretse rimwe, iri kugurishwa ibihumbi ijana mirongo ine by'amadorari, iyi nzu ni nziza kuri aya mafaranga ushobora kuyigura, ifite igikari kinini ndetse n'urupangu runini cyane.

Inyubako ebyiri z'isa ziri kumwe ziriho amatara ari kwaka hakabaho n'imodokari ifite irangi ry'umweru, amagambo yanditseho agaragaza ko ikodeshwa Kigali Kimironko ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero ku mafaranga ibihumbi maganatatu na mirongo itanu y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako ifite igisenge cy'umutuku ndetse n'ibirahuri by'umukara, iriho amatara ari kwaka. Amagambo yanditseho agaragaza ko iri mu mujyi wa Kigali, i Kanombe.

Inyubako isize irangi ry'ubururu n'umweru ifite igisenge cy'umutuku, imbere yayo hari umukobwa wunamye hakaba handitseho amagambo avuga ko ikodeshwa Kigali-Kanombe, ifite ibyumba byo kuraramo bitatu, ubwogero bubiri ku mafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako itagaragara neza, gusa ifite umuryango ufatanye n'idirishya. Nk'uko amagambo yanditseho abigaragaza, iherereye i Remera, ifite icyumba cyo kuraramo kimwe, ubwogero bumwe ndetse n'icyumba cy'uruganiriro, ifite n'igikoni. Ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako iri kugurishwa isize irangi ry'umukara, umweru' ndetse n'umuhondo udakeye neza iri gukodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali I kanombe ifite ibyumba bine ubwogero butatu ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako ikiri nshya igurishwa iri Kanombe mu mujyi wa Kigali nk'uko amagambo ariho abigaragaza igurishwa ku giciro cyo hasi kinogeye buri wese wifuza kuyigura.

Inzu y'igorofa igeretse rimwe iherereye Rugando mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi magana atanu ku kwezi. Iri hafi ya comvesheni.

Inzu ifite irangi ry'umweru n'igisenge cy'umukara, amagambo yanditseho agaragaza ko iherereye Kabeza ikodeshwa ibihumbi magana atandatu. Iyi nyubako ifite urupango rw'amatafari ahiye.

Ifoto iragaragaza abantu bari mu isoko, abenshi bari kuri iyi foto ni'igitsina gore baje kugura imyenda bamwe muri bo barimo kwitegereza imyenda iri imbere yabo.

Umugore wambaye umupira wumutuku, ipantaro yumukara ndetse ninkweto zifunze. ari mwiduka arimo gufata ibicuruzwa abishyira mukabati kagizwe n'ibirahure.

Inzu nini y'igorofa ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ifite irangi ry'ubururu budakeye neza ndetse n'umweru, iriho ibyapa bitandukanye bigaragaza ibicuruzwa bikorerwa muri iyo miryango.

Isoko bahahiramo ibicuruzwa harimo ibikapu ndetse n'abantu baje guhaha. Rifite amatara y'umweru ndetse n'inkuta zishushanyijeho.

Inyubako ndende y'igorofa ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi harimo ibyapa by'amoko atandukanye ,hariho ibishushanyo bigaragaza ibintu bikorerwa muri iyo miryango.

Umugore wicaye mu cyumba gitangirwamo ubufasha gisize irangi ry'ubururu, yambaye umupira w'umutuku imbere ye hari ameza arambitseho impapuro, kandi mu idirishya harimo undi mugore ufite agapapuro gatoya urikukamwereka.

Ifoto iriho amagambo yanditseho ngo nzigamira k'ubwejo hazaza hanjye na ejo heza, wowe se? Iyi foto hariho umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe kandi urimo guseka.

Inyubako ndende y'igorofa, ifite ibirahuri by'ubururu, ndetse n'irangi rijya gusa umuhondo, hasi hariho imodoka ifite irangi ry'umweru, ndetse iyi nyubako ikikijwe n'ubusitani butoya, buyizengurutse impande zose.

Inyubako y'igorofa ndende ifite irangi ry'umuhondo n'ibirahure by'ubururu, amagambo yanditseho hejuru agaragaza ko ari RSSB ikorera mu mugi wa kigali.

Umugore wazamuye ikiganza, ukenyeye ibitambaro by'umutuku mu mutwe ndetse n'ibindi biganza bibiri bizamuye hejuru, byose bifite ubwisungane mu kwivuza.

Ifoto igaragaza umuntu uje kwa muganga ariko hari umuntu uri kumwakira, yamusabye ubwisungane bwe mu kwivuza, arimo kureba niba koko buhuje n'ukuri, afite igitabo arimo kwandika imyirondoro ye.

ifoto iragaragaza abantu bateraniye ku kigo cy'amashuri n'abaturage bari mu ngeri zitandukanye abana, abagabo, abagore bisa naho baje mu gikorwa runaka cyo kwamamaza kuko hari ibigo bya leta byahakoraniye urugero nk'ikigo cyitwa ejo heza ndetse n'ikigo kijyaniranye n'ubuzima.

Abagore bane bicaye ku ntebe umwe muri bo ateruye umwana ndetse undi we yambaye umupira w'icyatsi uriho ibirango bigaragaza ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, abandi babiri bafite impapuro ku intoki zabo.

Umugabo ahagaze imbere y'abantu ufite indangururamajwi, inyuma ye hariho icyapa kiri mw'ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambowbara ry'umweru cyometse k'urukuta.

Iduka ririmo ibicuruzwa bifunze mu mashashi hariho ameza ariho igikoresho bakoresha mu kwishyura ibintu bimaze kugurwa hateretseho ibikombe birimo icyo kunywa. Imbere y'ikirahuri hariho umugabo.

Iduka bagurishirizamo ibikoresho byo munzu bikiri bishya harimo utubati dufunzemo amasahani, ibikombe bibiri mu mashashi, hariho umusore ufite ibikoresho mu ntoki ze yabitunze mugenzi we urimo guseka wambaye umupira wiicyatsi.

Umusore uri mu iduka bacururizamo imbuto harimo izamoko atandukanye imineke amavoka itomati ndetse nizindi ryubatswe mu buryo bugezweho kuko rifite amatara atanga urumuri rw'umutuku ndetse n'umweru.

Iduka bacururizamo ibiribwa, hariho akagare kifashishwa mu kubijyana ndetse n'icyuma gikonjesha ibinyobwa kandi kigatuma ibintu bidapfa, gifite irangi ry'umweru, hakabamo utubati turimo amacupa ndetse n'ibindi bintu.

Ifoto igaragaza umugabo wagiye guhahira mu isoko rigezweho, umugabo yambaye imyenda y'ubururu arimo guhaha ibiribwa, gusa hariho umukobwa ukora muri iryo soko, arimo kumufasha gushyira ibintu mu gikapu bahahiramo.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye bimwe biri mu tubati ibindi biteretse ku meza bishyuriraho, harimo icupa ry'amazi rifunze, ndetse hagaragaraho n'umuntu ufite ishashi.